Inzu y'ubucuruzi icuruza imiti ivura abantu, imbere yayo haparitse imodoka hariho n'umusekirite uhahagaze. Ubu bucuruzi bw'imiti bufasha abaturage bose baza bayigana.

Imiti ivura abantu itandukanye iri mu kabati, ni imiti myinshi kandi yose ni ingirakamaro. Abarwayi ntibashobora kubura imiti bitewe n'uko iyi farumasi irimo imiti ihagije.

Umuganga ukora muri farumasi afite ubwirinzi buhagije yambaye agapfukamunwa afite ibitabo yandikamo imiti ahaye umu umurwayi kandi adufasha buri munsi murwego rwo kwivuza.

Gaperi ni kimwe mu mbuto zihingwa hano iwacu, gaperi ni imbuto nziza bamwe bakunda kwita impuhu, gaperi zigira imbuto ziryoha kandi zikundwa cyane, muri izi gaperi harimo n'imboga bita ibidodoki.

Hano iwacu dukoresha ubuvuzi bwa gakondo, muri ubwo buvuzi twifashisha ibyatsi harimo icyatsi cyitwa umutobotobo. Umutobotobo ni icyatsi kivura indwara zitandukanye.

Ikibonobono ni icyatsi kiboneka hano iwacu mu Rwanda kigira amababi maremare kandi magari. Ikibonobono cyifashishwa mu miti ya gakondo, kivura indwara zitandukanye.

Iwacu tugira ibyatsi byinshi bitandukanye, harimo n'icyatsi cy'umutobotobo, umutobotobo ni icyatsi kigira imbuto bakunda kwita intobo karemba, icyo cyatsi cyifashishwa mu buvuzi bwa gakondo, kivura indwara nyinshi zitandukanye.

Mu byatsi bikunda kumera hano iwacu, harimo icyatsi bita rumari cyangwa se te. Iki cyatsi gikoreshwa no mu miti gakondo. Kivura indwara nyinshi zitandukanye. Iki cyatsi ni ingirakamaro.

Amashuri yubatse neza ari ahantu heza ku muhanda, afite ubusitani bwiza buri wese yifuza ko umwana we yajya kwiga kuri ayo mashuri, kubera ko atanga uburezi bwiza.

Mu buvuzi gakondo iwacu twifashisha ibimera, harimo n'icyatsi cy'ikidaliya, tugikoresha turi kuvura indwara zitandukanye, ibisebe ndetse n'ibindi.

Imbuto z'ibinyomoro ni imbuto zihingwa ku buryo bwa kijambere. Ibinyomoro kugirango ubiboneho umusaruro, bigusaba kubihinga mu butaka bwiza ugashiraho ifumbire, kandi igihe cy'izuba ukabyumvira kugira ngo bitange umusaruro usesuye.